Abakuze n'abato bafite uburenganzira ku mazi yo kunywa kandi asukuye, ni ngombwa ko buri muntu abona amazi ahamwegereye kuko amazi ni isoko y'ubuzima kandi kuri twese.

Abikorera bashinzwe itumanaho bakomeje gushimira abaganga babahereza impano zigiye zitandukanye zizabafasha mu itumanaho kugira ngo babashe kumvikana neza n'abo bagiye kuvura, ndetse bagomba kuba bambaye udupfukamunwa kugira ngo hatagira uwanduza undi indwara.

Umwana iyo yagaragaweho imirire mibi ni byiza ko ahabwa imfashashandyo kugira ngo agire imikurire myiza, kandi ababyeyi bagomba kubimufashamo yaba uw'umugabo cyangwa uw'umugore.

Umunezero ni wose ku bana begerejwe amasoko y'amazi hafi yabo kuko bajyaga kuyakura kure kandi atari meza nk'ayo begerejwe, byahinduye imibereho yabo, bituma imyambarire yabo ihinduka, imyenda isa neza.

Abana bagomba kwigishwa gukaraba intoki mbere yo kugira amafunguro bafata kandi bakirinda kunyanyagiza amazi kuko ateza imibu kandi iyo mibu ikaba yateza uburwayi mu baturage ndetse n'abo bakabasha kurwara na za Marariya.

Intoki ni igice kidufasha gufungura. Ni ngombwa ko rero n'umuntu mbere yo gufungura abanza akoga intoki ze n'amazi meza n'isabune, rero amazi agomba kuba ari meza kuko amazi ni yo soko y'ubuzima bwacu kandi ni kuri bose ndetse n'abana batoya.

Ibikoresho byo kwa muganga bigomba kuba bifite aho byagenewe kuba biri kandi buri muntu agahabwa ibijyanye n'uburwayi arwaye uko bungana kandi bikabikwa neza ahabugenewe.

Abagore bafite uburenganzira mu gutangaza ibitagenda neza kandi na bo bagakosorwa kuko na bo ni abantu nk'abandi, ntago abagore bagenewe gufungiranwa mu nzu, kubaho bihebye bonyine batagera hanze. Abagore rero bashishikarizwa kuvuga ibitagenda neza mu ngo zabo.

Ni ngombwa ko abantu bahabwa amahugurwa, nyuma y'amahugurwa bakajya mu itsinda, kugira ngo basubiremo bakore imyitozo baba bahawe, kugira ngo byereke uwigishije nimba byumvikanye ibyo yigishije.

Ibyishimo by'umwana ni ngombwa kuko ni we ejo hazaza h'igihugu, dusigasire ibyashimisha umwana kandi bitamushoye mu ngeso mbi izo ari zo zose, kandi ahabwe ibikenerwa byose yifuza byamugirira umumaro.

Ibyishimo by'abana ni ingenzi mu muryango. Mureke dusigasire ibyishimo by'abana ni bo ejo hazaza h'isi yose, ni bo terambere ry'isi, mureke dusigasire ibyishimo byabo.

Ubuzima bwo mu mutwe ni ingenzi, mureke tubungabunge ubuzima bwo mu mutwe, dufashe n'abagiye bahura n'ibibazo na byo, ntitubareke ngo bigunge babe bonyine, ahubwo tubegere tubaganirize tubavugishe, na bo bagaruke bongere bagire ubuzima bwo mu mutwe buzima.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe kwita ku buzima bwo mu mutwe, aho abakozi baba bakorera hose, baba bakorera abigenga ndetse no mu nzego za leta, abakoresha bagomba kwita ku buzima bwo mu mutwe bw'abakozi babo, babona harufite ikibazo bakabimenyesha kwa muganga babishinzwe kubikurikirana.

Gufasha abafite uburwayi bujyanye no mu mutwe, ni byiza kubashyikiriza amavuriro ashinzwe uburwayi bwo mu mutwe, cyane utitaye ngo ni umugabo cyangwa umugore cyangwa umwana. Ni byiza kubashyikiriza ibitaro bibishinzwe.

Abafite ibibazo by'imitekerereze agahinda gakabije nabo ni abantu, nibegererwe bashyikirizwe abaganga babishinzwe babashe kubagira inama z'uko bakwitwara mu buzima bukurikiyeho.

Ababyeyi bagifite abana bakiri batoya munsi y'imyaka ibiri, bagomba kugana ibigo nderabuzima cyangwa abajyanama b'ubuzima babishinzwe kugira ngo babafashe kubagira inama ku mirire bagahaye abana babo.

Ubuvuzi bwegerejwe abaturage ndetse na bamwe batabasha kuva mu ngo cyangwa barembeye mu buriri, ubuvuzi bumaze gutera imbere kugeza n'aho bageraho bafata amamodoka bagatwaramo imiti ndetse bakegera abaturage mu ngo zabo.

U Rwanda rumaze kugera ku ntambwe ishimishije; abayobozi barishimye ndetse n'ab'ibihangange biraturuka mu bihugu bigiye bitandukanye, bije kureba, gusura u Rwanda aho rumaze kugera. Kandi byishimiye inyubako zose ziri mu rwanda; kuko zubatswe mu buryo bugezweho.

Mu kubungabunga ubuzima bw'amenyo hari utugozi natwo twabugenewe umuntu afata agacisha hagati ya y'iryinyo hamwe n'irindi, hanyuma akabasha gukuramo ibiryo biba byagiye hagati y'amenyo, nabyo birinda uburwayi bw'amenyo.

Isuku y'amenyo ni ngombwa kuko amenyo ni yo adufasha mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, ibigera mu nda ni uko biba byabanje guca mu kanwa, kandi amenyo agafasha gukacanga ibyo umuntu agiye kumira. Rero twite ku isuku y'amenyo tuyabungabunge bikwiye.

Inzu yakirirwamo abafite uburwayi bwerekeranye n'amenyo, aho waba urwaye hose hari ibyuma bireba mu kanwa, n'inyubako nziza isukuye n'aho baryamisha abarwayi bafite ikibazo cy'amenyo, kugira ngo babashe kubapima neza.

Abakuze na bo bafite uburenganzira mu gukora imyitozo ngororamubiri iyo ari yo yose, na bo bakagira ubuzima bwiza kandi bikabafasha mu guhora baseka bishimye nk'abandi, ni byiza ko na bo tubakurikirana mu myitozo ngororamubiri.

Abakuze na bo bakeneye abaganga babitaho mu gihe barwaye cyangwa mu gihe bakeneye uwo baganira na we, ugomba kubakurikirana bagasekana na we, bakabaha ibikoresho byose, mu gihe cy'ubukonje bakifubika ndetse n'inkoni zibafasha kugenderaho byose bakabihabwa mu buryo bworoshye kandi bwiza.

Ni ngombwa kwita ku bakuze kubakoresha imyitozo ngororamubiri kubaganiriza, kubareba ubu urwayi barwaye, kubaba hafi kubaha ibyo bakeneye ibyo kunywa ndetse n'ibyokurya, n'abo ni abo kwitabwaho.

Abakozi nabo bagomba kugirwa inama ndetse no kwibutswa gufata imiti yabugenewe kubera uburwayi runaka baba bafite. Ni ngombwa kubaba hafi kandi kubareka bagakora ibyo bishimira.

Nibyiza ko n'abakuze bitabwaho, ku bijyanye n'imyitozo ngororamubiri, kuko nabo bibongerera ibyishimo, iyo bumvise bamerewe neza mu mibiri yabo, rero twite ku bakuze nabo tubafashe mu myitozo ngororamubiri.

Mu buvuzi buteye imbere ni byiza ko abaganga mu gihe bari kugira inyigo bigaho bakagombye kuba bambaye imyenda yabugenewe buganga harimo udupfukamunwa ndetse n'imyenda isa umweru kandi bagakorera mu nzu isa neza.

Umwami Faisal ni ibitaro bikuru by'u Rwanda, bifite inzobere nyinshi kandi abaganga bahuguwe mu nzego nyinshi zijyiy zitandukanye. Abagezeyo baza bavuga ubwiza bw'ibi bitaro, bufite inyubako nziza, bufite ubusitani bwiza, bufite ahakirirwa abarwayi.

Ni byizako imyenda yo kwa muganga, amashuka, imyenda abaganga bambara imeserwa mu byuma byabugenewe bishinzwe kumesa imyenda. Kandi bikagira umukozi ubishinzwe wambaye imyenda yabugenewe ndetse n'akanozasuku ko mu mutwe ndetse n'inkweto zifunguye kugira ngo amazi yinjiye mu nkweto abone aho asohokera.

Ni byiza ko mu nyubako zo kwa muganga zagenewe kwakirirwamo abana, byaba byiza bagiye bashyiramo ibikinisho kandi bagasiga ku bikuta by'inzu amabara menshi agiye atandukanye kugira ngo abana badahurwa kujya kwa muganga.

Igerageza ry'imiti rigomba gukorerwa mu nyubako z'ubuvuzi zabigenewe kuko ntago wakorera igerageza ry'iyo miti ahantu hose yaboneye, hagomba kuba hariho inyubako z'ubuvuzi zagenwe gukorerwamo iryo gerageza.

Ibitaro byiza byakagombye kurangwa, n'ubusitani bwiza, haba n'ijoro amatara akatswa hose, kandi ibitaro byiza bigomba kugira inyubako zifite inzugi, amadirishya, kugira ngo umwuka mwiza ubashe gutambuka.

Ikigo nderabuzima cya Rwerere giherereye mu gihugu cy'u Rwanda, kirangwa n'ubusitani burimo indabo, ndetse n'ibiti birebire, abakozi baho bahora barebera ubusitani bwaho, kugira ngo budatezwamo umwanda.

Ni byiza ko mu nyubako z'ubuvuzi naho haba hari ibyapa ndanga, byerekana aho umuntu agiye, yaba aho ajya kwivuriza ndetse yaba mu bwiherero, akaba ari ibyapa byerekana kandi isuku ni ngombwa ihagije kwa muganga.

Abaganga bagomba guhabwa umwanya uhagije kugira ngo babashe kwiga ku miti igomba kuvura abarwayi baba babagana kandi bagahabwa ibikoresho byose, bakenera mu gukora ubushakashatsi.

Iyi nyubako ikorerwamo ubuvuzi, bakiriramo abarwayi, bakabanza bakabasuzumiramo bakabona kubajyana mu bindi byumba, bagakurikiranwa ku burwayi bwabo bafite.

Mu myitozo ngororamubiri ni ngombwa ko inzu yakira abantu baje gukora imyitozo ngororamubiri igomba kuba ifite ibikoresho bisabwa, haba ibyo guterura n'amaboko, yaba ibyo kugendaho kugira ngo ubashe kugorora igice ukeneye.

Ibitaro bikuru by'u Rwanda bigomba kugirwamo na buri muturage wese, yaba ufite imodoka ndetse n'utayifite, yaba umugabo cyangwa umugore cyangwa abana, buri wese arakirwa kuri ibi bitaro kandi yakirwa neza ntakibazo.

Kwakira abarwayi bagana ku bitaro ni byiza ni imwe mu ntambwe ya mbere ituma umurwayi yumva akize, abaganga bagomba kwirinda ibibarangaza bakakira abarwayi baje babagana.

Isuku ni ngombwa ndetse no mu bitaro aharwariye abarwaye benshi kandi buri murwayi aba agomba kurara ku gitanda cye akiyorosa ibyo kwiyorosa bye kandi agakomeza akurikiranwa na muganga, inzitiramibu nayo ni ngombwa kuri buri gitanda cya buri murwayi.

Ibikoresho byo kwa muganga ni ngombwa ko bigomba kugirirwa isuku buri kigaterekwa aho kigomba gutekwa, kandi bigahabwa amabara atandukanye kugira ngo abashe gutandukanya igikoresho gikoreshwa hamwe na hamwe.

Umubyeyi agomba gukurikirana umwana we kuva akivuka akamenya inkingo bagomba guterwa kandi buri nyuma y'ukwezi kumwe n'igice agomba gusubira kwa muganga ndetse n'abaganga bagiye kumusuzuma bakajya bambara udupfukamunwa ndetse n'utunozasuku.

Ni ngombwa ko inyubako zo kwa muganga ziba zifite amadirishya, inzugi ndetse n'uburyamo bwa buri murwayi kandi hakiririndwa ko haza ibikapu byuzuyemo imyenda y'abarwayi, umurwayi agomba kuba ari mu cyumba avurirwamo nta kindi kintu cyahateretse.

Abakinnyi bakina imikino isaba imbaraga cyangwa yaberamo impanuka zigiye zitandukana, ni ngombwa ko bambara ingofero zabugenewe ndetse n'ibyuma byo mu gatuza ndetse n'amakabutura yabugenewe arimo ibyuma kugira ngo hatagira ingingo ziremara.

Mu mikino y'amaguru, y'amaboko hari ibikoresho bitabura nk'imipira ndetse n'ingofero zambarwa mu mutwe kugira ngo hirindwe gukomereka kugenda gutandukana kuko umupira ushobora gukubita ku mutwe.

Amazi ni ingenzi yaba mu mubiri w'imbere ndetse no hanze y'umubiri. Kandi arafasha cyane mu gihe cy'imyitozo ngororamubiri kuko agusubizamo imbaraga zari zatakaye, mu gihe uri mu myitozo ngororamubiri ni byiza kwambara imyenda yabugenewe, ifunguye ku buryo ubasha guhumeka.

Mu myitozo ngororamubiri habamo no gukora imyitozo y'imitsi y'amaguru kandi ni ingenzi ku buzima bwa buri muntu wese kuko bifasha mu mitekerereze myiza yo mu mutwe.

Amazi meza ni meza ku mubiri kuko afasha abantu bari mu myitozo ngororamubiri kandi bakagombye kuba bafunze imisatsi mu buryo itabasha kubabangamira mu myitozo yabo.

Kunywa amazi mu myitozo ngororamubiri birakenewe, kuko bifasha mu gutwika ibinure biba biri mu mubiri bidakenewe, kandi umubiri wacu ukeneye amazi, cyane ko amazi ari isoko y'ubuzima.

Abakinnyi na bo bakeneye abaganga babakurikirana, aho baba bagize impanuka izo ari zo zose kuko ubuzima bwabo ni ngombwa kandi imikino yabo ishimisha bamwe na bamwe kandi ni byiza ni imyitozo ngororamubiri.

Imyitozo ngororamubiri irafasha mu gihe wumva utameze neza, mu gihe wumva utazi uko uhagaze wumva ubuzima butari kugenda neza, mu gihe wumva umunaniro, mu gihe wumva agahinda gakabije, mu gihe wumva ubabaye cyane imyitozo ngororamubiri ni myiza.

U Rwanda rwateye imbere kandi rushishikarira imyitozo ngororamubiri cyane cyane umwitozo wo kwirukanka, rero niwo mpamvu rwahise rushyiraho imbuga nkoranyambaga hariho n'aho wasanga abakora umukino wo kwirukanka.

Ubutabazi bw'ibanze ni ngombwa ku bakora imyitozo ngororamubiri, ku bakinnyi ibyo baba bakina byose, umupira w'amaguru, umupira uwo ari wo wose, ni ngombwa kuvurwa bagahabwa ubuvuzi bw'ibanze.

Ni byiza gukora imyitozo ngororamubiri witaruye ahantu haturiye abantu benshi begeranye kandi ni byiza kwitwaza amazi mu gihe uruhutseho gato mu myitozo yawe kugira ngo ya mazi amanuke gutwika ibinure biba biri mu nda.

Ntawuhejwe mu myitozo ngororamubiri ndetse n'abagore, ni ngombwa ko bakora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo ibafashe mu igogorwa ry'ibyo babashije kuba bafunguye, kandi igomba gukorerwa ahantu hasukuye, ni byiza ko dukorera ahantu hari umwuka muzima.

Inyubako zishinzwe kwakira abantu bagiye gukora imyitozo ngororamubiri zigomba kuba zifite ibikoresho kabugenewe harimo imipira abantu bicararaho bigorora mu gihe barangije imyitozo ngororamubiri, hariho igabanura munda, hariho n'indi yo guterura, ni ngombwa ko ibyumba bishinzwe imyitozo ngoromubiri biba byujuje ibikoresho bisabwa kandi bifite umwanya uhagije.

Imiti yo mu bimera na yo irizewe iyo yatunganyijwe neza kuko ikoreshwa mu buvuzi bwa gakondo kandi irakiza inafasha mu igogora, mu mahumane no mu bindi byinshi cyane.

Kubungabunga ibimera bikorwamo imiti ni ingenzi kuko havamo imiti itandukanye, yaba imiti yo mu mazi ndetse imiti ikozwe mu buryo bw'ibinini, ni byiza kubungabunga ndetse no gushyiramo amafumbire ahagije kugira ngo haboneke imiti myinshi ihagije abaturage.

Igikakarubamba ni ikimera gitangaje, gikorwamo ibyo kumesesha mu mutwe, imiti yo kunywa, imiti y'uruhu kandi inganda nyinshi zagiye zimenya ibyiza by'igikakarubamba.

Amacunga y'umuhondo mo imbere ndetse n'ay'icyatsi akungahaye ku ntungamubiri ya se afasha mu gihe umuntu yagize ibibazo byo kwituma byanze kuza bifasha kugira ngo umuntu abashe kwituma neza.

Igikakarubamba ni ikimera gitangaje kivamo imiti myinshi itandukanye, yifashishwa mu buvuzi gakondo ndetse no mu buvuzi bwa kizungu, kandi ifasha buri muntu wese. Twirinde kwangiza igikakarubamba.

Ibimera bimwe na bimwe bikoreshwa mu buvuzi gakondo kandi bigakoreshwa mu buryo bw'isuku kandi bwemewe n'ibihugu bikorerwamo, rero ni ngombwa gutekereza kubanza kumenya niba ibyo bimera byakozwemo imiti, byaremewe n'igihugu bibarizwamo.

Abikorera benshi bagiye babona ubwiza bw'igikakarubamba n'uburyo kibasha gukiza benshi, gikiza indwara nyinshi cyane cyane iz'uruhu, izo mu buhumekero ndetse n'izindi zo mu nda.

Ibimera iyo bijyanywe mu nganda bihindurwamo imiti ya kizungu kandi nayo irakoreshwa, rero tubungabunge ibimera bikorwamo imiti, nayo kuko nabyo bitanga imiti ikiza abandi.

Urubuto rw'indimu ndetse n'igihingwa cy'igitunguru cy'ibitunguru byifashishwa mu gukora imiti ifashwa mu igogora igihe umubiri utari kubasha gukora neza, indimu ni nziza ikiza ibibazo by'ubuhumekero iyo ivanzwe n'igitunguru.

Igikakarubamba ni umuti w'indwara nyinshi zijyiye zitandukanye; yaba ku ruhu rw'abantu, ku muti woza amenyo, ku miti inywebwa igakiza uburwayi bwo mu nda; kirakoreshwa cyane mu buvuzi gakondo.

Igikakarubamba ni igihingwa gitangaje kivamo imiti ikozwe mu mazi cyangwa se mu binini, ni igihingwa cyifashishwa mu buvuzi abahanga bagiye bagikuramo amafaranga menshi.

Mu bimera by'ibikakarubamba haje kuvumburwa ubushakashatsi bukomeye bukuramo imiti yoza amenyo, tubungabunge igikakarubamba kuko kivanwamo imiti myinshi igiye itandukanye.

Urubuto rwa avoka rukorwamo imiti myinshi igiye itandukanye, havamo amasabune abasha koza uruhu ku muntu wagize ikibazo cy'uruhu, cyangwa ushaka kurinda uruhu rwe uburwayi runaka, nk'ibiheri ndetse n'ubundi burwayi bufata ku ruhu rwo mu maso cyane cyane.

Igikakarubamba ni igihingwa gikoreshwa mu buvuzi gakondo, kivura indwara nyinshi zigiye zitandukanye, ku nzego zose kandi kinavamo imiti ya kizungu igiye itandukanye.